Ahantu bajya kwishyurira ibikorwa bitandukanye. Muri banki hari abantu babiri bahagaze imbere y'inzu nini ifite ibirahure. Ndetse mu birahure barererekana ko hari n'izindi nzu ndende ziri hirya yazo, ndetse n'undi muntu uri kugenda mu muhanda.

Igipapuro kigaragaza ibikorwa bya banki yitwa giti ndetse n'umukiya wabo witwa Anatal Muteteri hano ni ibikorwa byakozwe kuri konti yiwe ukwezi kose.

Serivisi za banki ya kigali zegerejwe abaturage ahanga baragaragaza uko ibikorwa biri kugenda bikorwa aho bagaragaza ko batanga serivisi zo kubika, kubikura, kuguriza ndetse no kwakirana yombi abakiriya bakagira bati murakaza neza.

Umukozi wa giti banki yo kwamamaza ibikorwa diti banki ikora arimo nko kubikira abantu amafaranga mu gihe kinini, hanyuma bakazayabona nyuma y'igihe kinini runaka.

Akazu ka Eyateri kamamaza ibikorwa bya Eyateri k'umutuku.

Akazu gatoya gakozwe n' ibyuma gasizwe amarangi y'umuhondo kanditse emutiyene ndetse n'abantu byamu batanu b'umuntu umwe muri ako kazizu uri kubafasha no kubona ibikorwa bakeneye.

Inzu itanga ibikorwa bya Eyateri mani, hahagaze abakozi babo bambaye imyenda y'umweru yanditseho Eyateri mani ndetse n'ipantaro y'umukara n'abandi bantu barindire guhabwa guhabwa serivisi za Eyateri mani bicaye.

Inzu iri mu gipangu iparitsweho imodoka imbere iri muri kibagaba mu mujyi wa kigali ariho ni mugambo arimo icyongereza havuga ngo hiya izi tu fawuzanti dorazi geri yu ini kigali bishatse kuvuga ko ari inzu ushobora kwishyura amadolari 2000 muri kigali mu rwanda.

umuntu uri kwishyuza mu masoko manini azwi nka supermarket mbere yateretse amavuta uwo muntu wavuye kugura ndetse n'icyuma yifashisha abara kugirango abone amafaranga ari bwishyu ari icyo gicuruzwa cyishyura

Iduka ricuruza ibintu byinshi byo kunywa, harimo amaji, amata, amaji yo mu macupa, ndetse n'ayo mu bikarito, n'ibindi bigiye bitandukanye.